Umugabo uhagaze imbere y'imbaga y'abantu benshi arimo aratanga imbwirwaruhame avuga ko kwita ku buzima bw'umwana ari byiza kandi akomeza ashishikariza ababyeyi bose baje mu nama ko ari byiza kwita ku buzima bw'abana babo kandi bagira ikibazo bakajya ku kigo nderabuzima bakabafasha.

Inama cyangwa ikiganiro cyabereye i Kigali ku itariki ya makumyabiri z'Ukwakira bibiri na makumyabiri kane, kigamije kurwanya no gukumira virusi kandi bari mu cyumba cy'inama harimo n'abayobozi bicaye imbere ku meza bafite mikoro, amazi ndetse na za mudasobwa.

Abaganga bagera muri batatu bari kwita ku babyeyi bafite abana babo baba bafite uburwayi runaka bwerekeranye n'imikurire yabo cyangwa imibereho yabo babakiri abana batoya.

Umwana w'umukobwa uri ku isoko y'amazi mu cyaro aho akura amazi akoresheje ipompo y'amazi. Kandi uwo mwana akaba yambaye ikanzu y'umweru ifite utudomo tw'umukara, afite akanyamuneza ku maso ndetse afite n'icupa rishyirwamo amazi.

Abagore bagera muri batatu bagiye ku isoko, aho bari kuvoma babiri muri, muri abo bagore bafunguye amazi, aho undi umwe arimo aravoma amazi mu ndobo kandi bose bambaye ibitenge bigiye bitandukanye amabara.

Umugore acigatiye umwana mu gitenge yambaye ingofero isa umweru n'amasogisi y'umweru. Kandi umugore yambaye agapira ndetse n'igitenge hamwe n'inkweto z'umukara. Ahagaze ku isoko aje kuvoma yazanye indobo isa umukara.

abana benshi bicaye mucyumba bicaye muburyo bwuruziga bashishikajwe nikiganiza cyangwa igikorwa cyuburezi kandi abana bambaye imyenda isa cyane abenshi bambaye imyenda isabururu abandi bake bambaye isa umuhondo hari naban bakuru bicaye hagati yabo bishoboka ko ari abarimu cyangwa abarezi

Abantu benshi bari mu nteko cyangwa inama, abenshi bicaye mu ntebe bareba imbere, kandi bameze nk'abakurikira ikiganiro cyangwa gahunda y'ingenzi, harimo abagore ndetse n'abagabo bambaye imyambaro igiye itandukanye, rero baba bambaye imyenda y'uburyo bwa kinyarwanda ndetse n'abandi bambaye imyambaro isanzwe.

Umugabo yambaye umwenda w'umukara urimo n'uturongo tw'umweru, afite uburoso mu kanwa, ari koza amenyo y'iwe yireba mu ndorerwamo; ku rutoki rw'iwe yambaye impeta, inyuma y'iwe hamanitse amarido abiri, ari mu ibara ry'umutuku.

Umugabo n'umugore barikwireba mu ndorerwamo bareba nk'abishimye barikwerekana ko bamaze koza amenyo yabo neza, kandi asa umweru ndetse ko bayitaho neza ntiyandure. Kandi bose bambaye udupira dusa umweru.

Ibikoresho by'ubuvuzi bikoreshwa mu rwego rw'ubuzima bw'amenyo, by'umwihariko ni ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma amatwi, amaso n'amenyo n'ibindi bikoresho by'ubuvuzi bifasha muganga mu kugenzura ubuzima bw'amenyo, kandi bigaragaza akamaro ko kugira ibikoresho byiza mu rwego rw'ubuvuzi bw'amenyo.

Abagabo babiri harimo umusore ndetse n'umusaza barimo barasoma igitabo bose basa nk'abishimye, umusaza wo ku ruhande rw'ibumoso yambaye agapira afite amadarubindi kandi asa nk'aho ari gusoma cyangwa gusobanurira uwo bari kumwe, umusore we yambaye ishati y'umukara n'umweru yishimye cyane.

Icyumba cyabugenewe bakoreramo myitozo ngororamubiri, ikaba irimo ibikoresho bitandukanye bifasha mu imyitozo y'imikaya no kugira ubuzima buzira umuze. Kandi hagiye harimo imashini zifasha imyitozo y'amaguru, amaboko n'umugongo, kandi harimo n'ibikoresho byo kuryamaho umuntu akora mu myitozo.

Inzu y'ibitaro ifite isuku n'imyubakire myiza ifite ubusitani butunganyije neza, harimo ibiti by'imikindo n'indabyo ziteye neza kandi hari n'inyubako z'inkuta z'umweru n'amatafari atukura kandi hari n'amamodoka agera muri atatu aparitse ahabugenewe.

icyumba cy'ibitaro kigenewe abana ha igihe harimo ibikoresho bitandukanye harimo agatanda umwana aryama kari hagati mu cyumba gafite agapagu gatuma umwana atagwa kandi arimo n'intebe ikoreshwa n'umubyeyi cyangwa umuganga muge kureba umwana kandi harimo inzugi zisa umuhon n'icyatsi zibikomo ibikoresho by'umwana

Inyubako y'ubuvuzi ikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga, ifite imiryango n'amadirishya y'ibirahure ndetse ikaba ifite ibiti mu busitani imbere yaho kandi akaba ari iy'ubuvuzi yakira ndetse ikavura abarwayi kandi hejuru y'inyubako hari amagambo yanditse, yandikishijwe mu ibara ry'icyatsi.

Icyumba cyabugenewe gishinzwe gukonjesha kibitsemo amaraso mu dukarito cyangwa mu bipimo byabugenewe bigaragaza ko ayo maraso yashyizwe ahantu hizewe, akagaragaza ko ari uburyo bwo kuyabika neza kandi akabikwa igihe kirekire.

Mu dukapu dutatu turi aha dusa umutuku harimo tubiri dufunguye turimo ibikoresho bitandukanye byose bakoresha iyo umukinnyi yagize imvune, n'akandi kamwe gafunze kandi na ko karimo imiti yabugenewe ifasha umukinnyi igihe yaraye agize ikibazo cy'imvune.

Intebe ijyaho abantu bavuritse kuburyo batabona kuba mu kibuga kuko bagize imvune ikabije idafite amabara atandukanye menshi cyane ariko akako gasa umuhondo kandi gafite n'imikandalisha umukara ifata umukinnyi ku buryo atagwa hasi akaryamyeho.

Ubwoko bw'imiti gakondo bugiye butandukanye buri aha ngaha kandi muri iyo miti gakondo harimo imineke, inanasi n'indi myinshi kandi buri muti wese uri aha ngaha ufite icyo ukoze ku muntu bitewe n'icyo arwaye ukamuvura neza cyane.

Igihingwa cyangwa igiti kiri mu ishyamba cyangwa mu butaka bw'ibimera byinshi, gifite amababi manini gishoboka ko ari kimwe mu byo wakoresha mu buvuzi gakondo kandi kikaba kiri ahantu hafumbiye hameze nk'ahantu kamere kandi hubatswe n'ibimera byinshi.

Ibikoresho by'ubuzima byo gusiga ku munwa, ibi ibikoresho biri mu macupa mato y'umweru agaragara mu gasanduku konyine, gashobora gufashwamo mu kubyerekana no kubicuruza kandi hari amakarito abiri yerekana ko bishyirwa mu gasanduku.

Ibimera bimwe byera mu murima cyangwa mu busitani kandi akaba ari ibikoreshwa mu buvuzi gakondo, ikindi kandi bigaragaza ko bye mu buryo bwa kamere ndetse bifite akamaro ko ku kuvura indwara zitandukanye mu mubiri.

Amashyamba y'ibimera byinshi byera mu murima cyangwa mu busitani kandi harimo ibimera bitandukanye ku ishusho herekana ikimero gishya cyangwa kimeze neza bimwe bishoborara kuba ibimera by'ubuvuzi kandi bifite akamaro kanini mu buzima bwa muntu.

Abagore babiri bari mu iduka ricuruza imiti y'ikinyarwanda, kandi harimo uducupa tw'ubwoko bwinshi muri utwo ducupa harimo n'amazi yo kunywa, kandi umugore umwe yambaye umwenda w'umweru wemerewe kwambarwa n'abakora mu nzu y'abacuruza imiti.